Ifumbire y'ikirundo abaturage bari kuyihinga, ibiti, igikapu, amasuka.

Iyi ni imiti ikorereshwa mu buhinzi. Hari n'indi miti ikoreshwa mu kuvura amatungo, ubwo ayo matungo akazabaho neza cyangwa se iyo miti ikayarinda indwara.

Umurima hakorerwamo icyo bita ubuhinzi cyane cyane nko mu karere ka Musanze bahinga ibirayi, ubwo mu kubihinga barahinga barangiza bagacukura ibyobo bagashimo ifumbire, imbuto noneho bagasibiranya.

Habaho imiti itandukanye y'ibihingwa iba ishinzwe kwica udukoko, hari n'iyindi iba ishinzwe gukuza igihingwa, hari n'iyindi iba ishinzwe gutuma kizamuka neza.

Habaho amafumbire y'imvaruganda akaba mu bwoko bwinshi cyane. Habaho ayo bita amayire, ayo bita amafumbire nyine asanzwe bateresha ibirayi n'andi menshi cyane.

Hari ibiyaga bigira ibigwa, noneho ibyo bigwa bigakurura ba mukerarugendo, cyangwa se bikabaho ibyatsi biba ari ibiryo by'amafi.

Ifi baziroba mu kiyaga hanyuma bakazotsa cyangwa se bakaziteka, cyane ko ifi ari nziza ku muntu wayiriye. Ifite akamaro gakomeye mu buzima bw'umuntu.

Indagara ziba nziza cyane kubera ko zitekwa mu biryo. Ndetse iyo zitetse mu biryo bakazigaburira abana zibarinda kurwara ndetse zikabafasha no gukura neza cyane bityo bakabasha kubaho neza.

Ibakure ni nziza cyane kuko yifashishwa mu gushiramo isosi, cyangwa se ibindi biryo bigiye bitandukanye, ibakure bayiriramo, noneho ikindi k'iza cyayo ni uko iba ikomeye. Iba ikomeye cyane kandi iyo wabitsemo ibiryo ugapfundikirana ntabwo bipfa gukonja

Amafi araribwa cyane, kuko aba nayo ari mu bwoko bw'inyama, kandi tuzi ko inyama ziba nziza mu mubiri w'umuntu.

Ifi iba ari nziza cyane kuko igira akamaro, ifi barayirya, kandi umuntu uroba amafi ashobora kujya ayaroba noneho akayagurisha, bityo akabona amafaranga amufasha kwiteza imbere.

Mu kiyaga habamo ubwato bwinshi cyane kandi habamo n'ubwato bw'abapolisi bakorera mu mazi abo bakaba babita abapolisi b'abamarine.

Amafi agira akamaro kanini cyane, ee kuko amafi atanga akazi ku bantu baroba amafi, bakayagurisha, ndetse amafi ni meza kuko barayarya, amafi afite intungamubiri mu buzima bw'umuntu.

Amafi aba meza cyane, kuko amafi ateza imbere Igihugu, ndetse n'abaturage cyane cyane nk'abantu bayaroba barayagurisha noneho bakabona amafaranga abateza imbere.

Ubu babwita uburobyi bw'amafi, bakoresheje akantu kameze nka supanete, aka kantu rero bagashyira mu kiyaga noneho bakaza gukurura bakavana mu kiyaga, noneho amafi avuyemo bakayazamura bakaba bayafata.

Mu biyaga cyangwa mu mazi, haba igihe bubatsemo imihanda, cyangwa se udutebe two kuzajya bambukiraho, abantu bashaka kuyazenguruka, cyangwa se ababa bashaka kuyanyuramo bakambukamo, bakajya mu gace kamwe baturutse mu kandi.

Iri funguro ryateguwe ry'ifi，ndetse n'utwo ku risha ni byiza cyane. Iyi fi rero， bigaragara kotetswe neza neza cyane， ririmo intungamubiri nyinshi cyane. Rero ifi ni nziza cyane， kuba umuntu yayirya.

Habaga ubwoko bw'imboga bwinshi cyane hari imboga bita za dodo, hari izo bita amashu harizo bita in nyabutongo, hari n'izindi bita za karoti n'izindi nyinshi cyane.

Karoyi ni igihingwa gikunda guhingwa mu Majyaruguru, karoti zifite akamaro kenshi cyane, karoti bazitekamo imboga, kandi karoti ni umuti ku barwayi b'amaso

Amateke ni igihingwa kiba cyiza cyane, kuko barayarya, cyangwa se bakayagemura ku isoko bakabonamo amafaranga.

Iyo ibigori bamaze kubihagura mu murima bajya baraca ibyo byatsi biba byasigaye by'ibisigati bakajya ku birunda ahantu, akenshi bakunda kubivanamo imishingirizo.

Ibitoki biba byiza cyane, kandi bikunda kwera, abantu bakabikuramo ibitoki byo guteka, cyangwa se imineke yo kugurisha, niyo gukamamo inzoga.

Ubundi habaho ibyatsi bitandukanye: habaho ibyatsi bita imbingo, hakabaho imicaca, hakabaho n'ibijya kuba byitwaye nk'indabyo, noneho bimwe muri ibyo inyamaswa zikunda kubirya.

Ibishyimbo bifite akamaro kanini cyane，ndetse n'ibitunguru. Aha ngaha uyu murima， bawuhinzemo ibishyimbo n'ibitunguru. Ibi ni byiza cyane， kuko azasarura ibitunguru， agasarura n'ibishyimbo. Ibi byose azabonamo amafaranga，biruta uko yahinga kimwe muri ibi.

Ibigori bigira akamaro kenshi cyane, ibigori bivamo ubwatsi ibigori kandi barabibihungura bakabikuramo imbuto zo gutera, cyangwa se bakabyanika bakazajya kubibetesha, noneho bamara kubibetesha hakaba hashobora kuvamo ifu y'ibigori cyangwa se ifu ya kawunga.

Akenshi mu kibuga haba haramezemo ubwatsi, kandi ubwo bwatsi nta bwo bajya babukuramo. Kuko bufasha abakinnyi kuba bakina neza batari guhura n'amabuye.

Urugi rw' ibirahuri, amadirishya y'ibirahuri, iserire, inkingi, amabati, y'umweru, isima, indabyo, igiti...

Akenshi mu cyaro bakunda kugira igikari kibamo ibihingwa byinshi nk'ibitoki, ibigori, byose biba bivangavanze.

Avoka ni igiti cyiza cyane cyera voka, noneho izo voka iyo zimaze kwera barazica bakajya kuzitara, noneho za zashya bakazirya cyangwa se bakazijyana ku isoko.

Ibi bishyimbo byitwa ruvuninkingi，ndetse harimo n'amateke， harimo n'icyatsi kigaragaza ko harimo ibihaza，Ni ukuvuga ngo ibishyimbo，bifite akamaro mu buzima bwa muntu kenshi cyane， ndetse n'ibihaza biragafite，n'amateke.

Mu majyaruguru y'u Rwanda bakunda guhinga ibirayi, kandi ibirayi bifitiye akamaro kenshi cyane. Ibirayi biraribwa kandi bijyanwa ku masoko bagakuramo amafaranga.

Mu mirima bahingamo ibihingwa byinshi cyane bitandukanye, bahingamo ibigori, bahingamo ingano, bahingamo ibirayi, bahingamo imbuto cyangwa se n'ibindi bihingwa byinshi cyane.

Ibitari bigira akamaro kanini cyane, kuko ibitari barabigurisha bakagurisha ibiti, bakajya kubicanamo amakara, ibindi bakabigurishamo indengo ari zo ziba ari inkwi.

Ibitoki bigira akamaro kenshi cyane, kuko ibitoki iyo byeze hari ibyera ari ibyo kurya, hari n'ibindi byera ari ibyo kugurishwa, bakazajya babiteka. Ibyo byose biba bifite akamaro.

Imirima ikorerwamo ibintu byinshi cyane. Umurima bawuteramo imyaka, umurima kandi bashobora kuwubakamo, ndetse ni ibintu byinshi cyane bakorera mu murima.

Karoti ni igihingwa cyiza cyane kubera ko iyo keze nyiracyo arakigurisha noneho bakamuha amafaranga yifashisha cyangwa se akayasevinga.

Habaho ubwoko bwinshi bw'imicaca, gusa imicaca iba ifite akamaro kenshi cyane kuko bayahira, bakajya kuyigaburira inka kandi itanga n'ifumbire.

Imirima igira akamaro kenshi cyane, kuko bayihingamo ibigori, ibirayi, amashu, amakaroti, intoryi, inyanya, n'ibindi bihingwa byinshi cyane.

Uyu umurima bari kuwuhinga, bari kuwuhinga, kandi bakawuhinga nk'imitabo, ntawo bari guwuhinga nk'igikanda, ahubwo ni imitabo, noneho umurima bashobora kuzateramo ibirayi, ibijumba, ibigori, cyangwa se amajeri, n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, bashobora kubiteramo.

Igitoki ni cyiza cyane, kuko igitoki barakirya, ibitoki birimo amoko atandukanye: hari ibitoki batara bikavamo imineke ,ndetse bagakoramo urwagwa. Ibitoki harimo n'ibindi barya, ibitoki ndetse bitanga ubwatsi ku nsina ku nyamaswa.

Ibishyimbo ni igihingwa kandi ni biryo abantu benshi bakunda cyane kuko ibiryo ibyo aribyo byose babirisha ibishyimbo.

Ubusitani bukunda guhingwamo imbuto z'ubwoko bwinshi cyane, ndetse bahingamo amavoka, haba harimo n'aho bateye umurama, noneho wamera bakazawimura bakawujyana mu murima.

Ibihingwa byitwa Ibirayi bikunze guhingwa cyane cyane mu majyaruguru, nko mu turere twa Musanze na za Nyabihu n'ahandi n'utundi turere barabihinga, ariko cyane cyane mu majyaruguru. Ibirayi ni byiza cyane.

Ibi ni ibirayi byeze cyane, kandi by'indobanure ni ukuvuga ngo hari ibyezemo bisa nk'aho ari bito, babanje kubikuramo ibirayi by'indobanure, ibirayi rero bifite akamaro kanini cyane barabirya ndetse bakabigurisha.

Imyembe iba myiza cyane ndetse ni zimwe mu mbuto no kwa muganga bajya barategeka abarwayi, zibafasha kumera neza mu buzima bwabo.

Habaho amazina y'inka zigiye zitandukanye, hari inka bita amafirizone, hari n'andi moko y'inka. Noneho n'inka ziba zitandukanye uko ziba zimeze, hari inka botsa amahembe, hari n'izindi batayotsa, noneho zikagira amahembe manini cyane.

Ibitunguru rero ni byiza cyane, hari ibitunguru byitwa umweru, ni bitunguru by'umweru, n'ibitunguru bisanzwe by'umutuku, ndetse na tungurusumu. Tungurusumu nizo nziza cyane, kuko zigira akamaro kenshi cyane, zifashishwa ahantu henshi hatandukanye. Ibitunguru kandi barabiteka. Ibi bitunguru rero ni byiza cyane kuko bitanga n'amafaranga.

Ubwoko bw'ibiti butandukanye, hari ibiti bigira akamaro kanini cyane, nko kuba bitanga umuti cyangwa bivamo nk'umuti, hari n'ibindi bikoreshwa mu buvuzi, n'ibindi bitanga ifumbire, n'ibindi biribwa n'inyamaswa cyangwa n'amatungo.

Habaho amoko y'ibirayi menshi, habaho ibirayi biba bisa n'umutuku, habaho n'ibindi biba bisa n'umweruru, gusa ibirayi byose biraryohaha, kandi bigira n'amafaranga menshi cyane.

Ibigori biba ari ibya marizori biba bisa n'umuhondo hari n'ibigira impungure, ziba zisa n'umukara, ibyo babyita nyamunyiginya kandi ibyo bigori bivamo amahundo aba aryoshye.

Ibijumba bigira amoko agiye atandukanye, hari ibijumba biba bisa n'umutuku kandi bigira umuhondo imbere y'ibijumba. Kandi bigira akakamaro kenshi cyane kuko babikoramo n'izindi porodagiti.

Amateke ni meza cyane, kuko amateke barayahinga, umuntu ashobora kuyahinga ayafitiye intego yo kuzayarya, cyangwa se akayahinga ari nko gukora bizinesi, hanyuma yazera akayagurisha akabonamo amafaranga.

Voka ni urubuto rwiza cyane ruryoha, ndetse cyane cyane barurya ku mvange, barurisha imvange. Voka kandi igira ikibuto, icyo kibuto iyo ugikuyemo ukajya kugitera kirongera kikamera.

Karoti ni igihingwa cyiza cyane， kuko karoti ntabwo zijya zigora abantu，karoti ntabwo ziterwa bashyizemo ifumbire， kereka wenda kuzitera umuti，karoti kandi ni umuti ukomeye cyane，ku barwayi b'amaso kuko bakunda no kuzibategeka kwa muganga.

Igihaza cya kizungu kuko habaho n'ibindi bihaza byitwa bya mukezangango biba bitameze nk'igihaza cya kizungu, iki gihaza kirahenda cyane ndetse banabicuruza mu masoko ,umwihariko wacyo kiba gifite umuhondo mo imbere kandi kiryosheye cyane.

Iyi ni imyumbati. Imyumbati ni myiza cyane, kuko itekwa cyangwa se hakabaho n'imyumbati bakoramo ifu y'ubugari. Imyumbati rero ni myiza cyane, kandi iba mu ndyo nyarwanda zahozeho kuva na kera.

Ibirayi byahinzwe kijyambere, kuko harimo za santimetero zikwiriye hagati y'icyobo n'ikindi. Ibirayi rero iyo byahinzwe neza, binera neza, kandi iyo byatewe umuti neza, bikitabwaho ,biba ari byiza cyane, kuko bitanga umusaruro mwinshi cyane.

iki ni kimwe mu gikorwa cyo gushirwamo imbaraga nyinshi m'U rwanda, kuko ubuhinzi bufite akamaro gakomeye cyane muri iki gihugu cyacu cy'U Rwanda.

Icyatsi cyera imbuto zisa n'iroza, gifite amababi n'akarabo k'umweru.

Insenda ni kimwe mu gihingwa gihingwa mu Rwanda, kandi giteza imbere igihugu ndetse n'abahinzi bazo.

Ubuhinzi bukorwa cyane cyane majyaruguru, bahinga imitabo, ntabwo bahinga urukanda, bakoramo imitabo, iya mitabo niyo bahingamo ibirayi n'ibindi.

Gutera ibigori bigira akamaro kanini cyane kuko bigaburira inka. Ikindi kandi birera bigatanga ibigori byo kurya n'ibyo guhungura bakagurisha.

Iyi ni ifamu y'inka. Inka rero bigaragara ko ari amashyo menshi cyane, kandi iyi famu ifite inka nziza cyane. Inka rero zitanga ifumbire, inka zitanga amata, inka zitanga inyama, inka zifite akamaro kanini cyane.

Ibitunguru ni byiza cyane, ibitunguru biragurishwa abantu ba nyirabyo bagakuramo amafaranga, ndetse bakoramo imiti igiye itandukanye ndetse binakoreshwa mu guteka kuko barabiteka ndetse ibitunguru ni n'umuti mwiza cyane.

Iyi mishwi yaturutse mu magi yaturazwe n'iyi nkoko. Ni ukuvuga ngo kugira ngo iboneke, inkoko ibanza gutera amagi, yamara gutera amagi ikayararira. Yamara kuyararira hashize iminsi imara, yamara ikayamena akavamo imishwi. Imishwi rero ikakavamo inkoko.

Urusenda ruba rwiza cyane, kuko ruryosha ibiryo ku bantu barurya rwose, bararurya bakumva ibiryo biryoshye cyane.

Uyu murima ni umurima w'inyanya. Inyanya zifitiye akamaro kanini cyane mu buzima bw'abantu, abantu iyo batetse bakoresha inyanya mu gukora isosi kugira ngo barye ibiryo bimeze neza kandi bisa neza, ndetse inyanya zitanga akazi ku batagafite.

Puwavuro ziba nziza cyane kuko ku masoko zikunda kuba ziriyo, bitewe n'uko abantu benshi baba bazishaka, bakazigura bakajya kuziteka.

Abahinga ibirayi baba Ari abantu basobanutse cyane rwose, kuko bajya barabigemura mu mujyi, kuko mu mijyi ntago bahingayo, niyo mpamvu abantu bose baba batuye mu mujyi baza kubigurira mu cyaro.

Uyu murima bawuhinzemo ibigori, ibigori bigaragara ko byahinzwe na kampani cyangwa se ishyirahamwe bagamije kongera umusaruro. Bari kuwuhingira ndetse bari kuhirira ibigori, banashyiraho ifumbire izabifasha kuzamuka neza no kubirinda indwara.

Ubuhinzi bw'imboga cyangwa ibirayi, buba busaba ko umuntu abwitaho, akabwuhirira akabutera n'umuti kugira ngo bukure neza.

Amajeri ni kimwe mu bihingwa bihingwa mu Rwanda aba asa n'icyatsi, kandi amajeri aba anahenze kuko adakunda guhingwa cyane n'abantu benshi.

Imbuto zibamo amoko menshi cyane, habaho: imbuto bita amatunda, ibinyomoro, amaronji, amavoka, n'ibindi bintu by'imbuto bigiye bitandukanye, kandi imbuto ziba ari nziza.

Pome ruba ari urubuto rwiza cyane, ruba rusa n'umuhondo, kandi ruba ruryoshye cyane. Pome iba ari nziza ku bana, cyangwa se abagore baba batwite.

Korora amatungo magufi biba byiza cyane, kuko iyo uyoroye ukagira akabazo uyagurisha, hanyuma bakaguha amafaranga yo kujya gukemuza icyo kibazo wahuye na cyo.

Iyo ibigori byeze barabihagura bakabijyana bakajya kubyanika, byamara kuma bakabihungura, impungure bakazazijyana kuzibetesha cyangwa se bakazakoramo izindi mbuto z'ibigori.

Ubuhinzi mu Rwanda ni bwiza cyane, kuko ubuhinzi buteza imbere igihugu, cyane cyane nk'iyo abahinzi bishyize hamwe, noneho bagahinga igihingwa kinini cyangwa se cyeze ahantu hanini, noneho bakazagemura hanze, bityo igihugu kigatera imbere n'abahinzi bagatera imbere.

Inyanya n'intoryi ni nziza cyane. Zikora isosi iryoshye cyane kandi isa neza. Inyanya zitukuza agasosi kakamera neza, n'intoryi ziratekwa kandi zikaryoha. ziraryoha rwose mu biryo ubusanga bimeze neza iyo zirimo.

Guhinga imboga bisigaye bigezweho cyane mu Rwanda, kuko imboga zisigaye zigira amafaranga menshi cyane, kandi imboga zisigaye zikunzwe cyane.

imyumbati ni kimwe mu gihingwa kera mu Rwanda . imyumbati ivamo ubugari ,hari n'izindi bateka, imyumbati muri rusange iba myiza cyane.

Igicuma kibamo amata, igare, umuntu uri gusuka amata mu kintu kimeze nk'isanduku.

Ibirayi bibamo amoko atandukanye hari: ibirayi biba byitwa kinigi, hari ibindi byitwa kirundo, n' ibindi bita kabondo, n' ibindi bita gatuku, n' ibindi bitandukanye.

Ibitoki bibamo amoko agiye atandukanye, hari ibitoki bita inyamunyu, hari n'ibitoki bita kamara, hari n'ibindi bitoki bigiye bigira amazina agiye atandukanye menshi cyane.

Iyo igikorwa cy'isarura kigezweho hifashishwa, bimwe mu bikoresho bishyirwamo umusaruro, nk'ibisero, ibitebo ndetse n'imifuka cg se n'ibindi.

Ubuhinzi bw'ibigori buba bwiza cyane kubera ko ibigori bigira akamaro kenshi cyane: ibigori bivamo ubwatsi inka zijya, ibigori kandi bivagamo impungure bahungura bakazijyana kuzibetesha noneho bakazivanamo ifu y'igikoma cyangwa se iy'umutsima.

Intara uretse kwanikaho ibishyimbo, yifashishwa mu kugosora yaba kugosora ibishyimbo cyangwa se kugosora ingano n'ibindi byinshi cyane, intara ifite akamaro gakomeye cyane.

Inzuzi z'ibihaza, bazitera mu buryo bwiza bakoresheje agafumbire keza gatuma zibasha kuzamuka neza, kandi zikazatanga umusaruro mu gihe kiba kizaza.

Ni ibishyimbo byitwa ruvuna nkingi, nukuvuga ngo ibishyimbo babishyira mu mazi, barangiza bagacanira, bamara gucanira ibishyimbo bikoroha, noneho bakabitonora bagakuraho ibishishwa byo hejuru, noneho bigasigara bimeze ukunguku, ubwo rero ibi bishyimbo ubitekana n'ibirayi hanyuma ukabirya, biba biryoshye cyane.

Uyu mugore ari guhungura ibigori, ari kubihungurira mu ibase, noneho ibi bigori namara kubihungura ashobora kujya, ashobora kubyanika akazabigira imboto cyangwa se akajya kubibetesha akazakuramo ifu y'akahunga cyangwa se ifu y'ibigori.

Impungure zigira akamaro kanini cyane impungure bazivanga n'ingano, bakajya kuteshamo ifu y'igikoma cyangwa se bagatekamo umutsima.

Kimwe mu bihingwa bikundaga guhingwa cyane mu Rwanda. Kuko ibishyimbo Abanyarwanda bose bakunda kurya ibiryo birimo ibishyimbo. Akenshi cyane ibishyimbo bikunda kujyana n'ibiryo byose.

Haboneke ibishyimbo bigurishwa mu masoko, cyangwa no mu mabotike, bibanza gusarurwa, ariko mbere yo gusarurwa biba byarabanje kuba imiteja, noneho bikazabona gukura, bikuma, bakabisarura, noneho bakabihura, bakabigosora noneho bakabijyana ku masoko.

Imiteja ni bimwe mu bihingwa bijya kumera nk'ibishyimbo, kuko byera bimeze nk'ibishyimbo usibye ko mo imbere nta bishyimbo biba birimo. Imiteja ni imboga bakoramo isosi, ndetse bitanga isosi cyangwa se imboga nziza cyane barisha ku muceri n'ibindi bintu byinshi.

Inzuzi z'ibihaza bazitera mu murima noneho bamara kuzitera zikazazamuka amababi zifite amababi, noneho ayo mababi agakomeza akaba umugozi, noneho uwo mugozi uriho amababi ukazeraho ibindi bihaza.

Ibi ni ibishyimbo bya ruvunankingi, ibisyimbo bya ruvunankingi ni byiza cyane, kuko byera ari binini, ikindi kandi, ibishyimbo bya ruvunankingi, ushobora kubishyushya mu mazi ugacanira, noneho byamara kumera nk'ibyoroshye, ukabitonora, ukarya ibyo mu nda, bisa n'umweru, biraryoha cyane.

Hbaho amoko menshi y'ibishyimbo, habaho ibishimbo biba bisa n'umweru, ibindi bishyimbo biba bisa n'umutuku, ibindi biba bisa n'umuhondo, hababo n'ibindi biba bisa n'umukara, kandi byose biraryoha.

Amasaka. Amasaka rero uko aboneka, bafata amasaka basaruye mu murima, barangiza kuyasarura bakayanika, bayanika noneho bakazayahura bakayagosora, noneho bakazayavanga n'itazi n'amazi, noneho bikazahinduka amamera. Noneho bakazayanika.

Imifuka za kirojana zirimo ingano， imifuka ndetse ifite n'amabara arimo umuhondo， icyatsi n'umutuku.

Ni igihingwa kiba cyiza cyane cyera akenshi mu Rwanda mu majyaruguru. Ayo masaka rero iyo yeze bakayasarura avamo umusururu cyangwa se umutsima w'amasaka.

Ubu ni buryo bwiza cyane bwo gushingirira ibishyimbo. Kandi ahangahangaha kuri ibi biti, ushobora gushyiraho n'ikidodoki kikahazamukira, noneho na cyo kikazajya kerera hejuru nk'uko ibishyimbo bimeze.

Amasaka ni kimwe mu bihingwa, bihingwa mu Rwanda. Amasaka afite akamaro kanini cyane, kuko amasaka iyo amaze kuma, barayasarura bakaganiika ndetse bakazakoramo icyo kunywa aricyo bita umusururu, n'ibindi byinshi cyane.

Inka zitanga umusaruro mwinshi cyane, niyo mpamvu abantu bagomba kuzitaho bakamenya ko zirwaye bakazishakira imiti cyangwa se bakazikingira.

Amagi ari mu tireyi, aya magi ni meza cyane kuko amagi afite akamaro kanini mu mubiri w'umuntu, umuntu waririye hari icyo aba yinjije mu mubiri we kandi cyiza cyane. Amagi rero ni na meza ku bana bakiri batoya.

Aya bayita amatuleyi abamo amagi mirongo itatu, cyangwa se bitewe n' uwayikoze akayiha forume, cyangwa se ingano y' amagi agomba kuba ashobora kugira, ariko cyane cyane haba harimo mirongo itatu amagi rero ni meza cyane haba ku bana, abasore, abagabo, abakecuru, abasaza n' abarwayi; amagi ni meza cyane.

Ingurube zitabwaho cyane kuko zo ziba zifite akamaro kanini cyane. Ingurube zitanga ifumbire rikoreshwa mu buhinzi, kandi ingurube zituma umuntu agira n'amafaranga.

Ingurube zigira akamaro kenshi cyane, kubera ko ingurube zigira amafaranga, nk'umuntu uzorora akayigurisha bamuhaha amafaranga, ikindi ingurube zitanga ifumbire, kandi ingurube barazirya.

Uyu ni umutavu ukivuka, ni ukuvuga ngo inka, irima, yarangiza ikazabyara, iyo nka icyo ibyaye bacyita umutavu, ubwo kaba ari akanyana cyangwa se akamasa, ariko iyo ukivuka ku ni umutavu, ndetse n'iyo utarakura cyane utaramenya kurya uba ukiri umutavu.

Babaho inkoko ziri mu byiciro bitandukanye, habaho inkokokazi, habaho ndetse n'amasake. Amasake rero ajya abangurira inkokokazi, kugira ngo zitere amagi.

Ingurube ni inyamaswa bakunda kwita irya byose, ingurube ntacyo itarya, ikindi ingurube nta suku zigira, ikindi ingurube zibwagura ubwana bwinshi cyane

Uburyo bwiza bwo korora inyamaswa yitwa agakwavu cyangwa se inkwavu. Inkwavu zifite akamaro kanini cyane, kuko inkwavu zirabyara bakazigurisha bakabona amafaranga menshi cyane, ndetse inkwavu zitanga n'ifumbire nyinshi cyane.

Umwuga wo korora ingurube uba mwiza cyane, kuko ingurube zibwagura ibibwana byinshi, noneho ibyo bibwana wabigurisha ugakuramo amafaranga menshi cyane, ushobora gusevinga cyangwa se ukazaguramo ikintu kinini cyane.

Inkwavu ni zimwe mu nyamaswa, zikunda kugira isuku kandi zikaba ziribwa, amaresitora cyangwa se amakabari menshi, bakunda kuziteka noneho abakiriya bakazirya.

Itungo ryitwa ingurube rirafasha cyane, kuko iyo baryitayeho ribasha gukura neza, kandi rikazabwagura neza iyo ari kigore.

Udukwavu tuba dushimishije cyane, kandi udukwavu tuvuka dufite amabara atandukanye, hari utuvukana amabara y'umuhondo, utundi tuvukana amabara y'umukara, utundi tuba dufite amabara avanze, ay'umweru, n'umukara cyangwa n'ayandi cyangwa n'ikivumvu.

Ingurube ni inyamaswa zigira umwanda kubi, kandi ingurube ni indyabyose, ntacyo zitarya ingurube kandi zigira inyama bita akabenzi kandi izo nyama ziraryoha cyane.

Abaveterineri baba ari abaganga b'amatungo yororerwa mu rugo nk'inka, ihene, intama, ingurube n'izindi noneho baziha imiti barazibyaza, kandi barazikingira kugira ngo zitazarwara indwara.

Inyoni ikaba ari akayamaswa keza kaba gashimishije. Hari n'utunyamaswa tw'utunyoni tuba dushimishije, dufite amabara meza cyane, ashobora no kuba gukurura ba mukerarugendo.

Ubundi mu mashyamba habamo ibintu byinshi cyane. Habamo inyamaswa, inyoni, noneho habamo ubwoko bwinshi bugiye butandukanye bw'inyoni.

Ingagi zigira akamaro kenshi cyane, kuko ingagi zikurura ba mukerarugendo hanyuma bakazana amadovize, hanyuma noneho ayo madovize, Leta ikaba ishobora kuyubakamo kuyifashisha mu kubaka imihanda, amashuri, amavuriro n'ibindi.

Mu shyamba habamo amoko y'inyamaswa menshi cyane. Hari inyamaswa zitaruka ,hari iziba zizi kwiruka kurusha n'izindi.

Mu ishyamba habamo ubwoko bwinshi bw'inyoni, kandi izo nyoni ziba ari nziza cyane, izo nyoni bamukerarugendo iyo bagiyeyo, bakazibona barishima bakifuza no kuzagaruka.

Habaho ubwoko bw'inyoni cyangwa se bw'inyamaswa ziguruka habaho inuma, habaho imbata, habaho n'andi moko menshi y'inyoni.

Inyamaswa zo mu ishyamba, ibiti, igiti cyumwe, umucucu.

Habaho amoko menshi y'amapusi, hari amapusi arya inkoko, ayo niyo bita amanyahuku, hari n'andi yibera mu rugo yirira imbeba gusa, atarya inkoko.

Imana ijya kurema yaremye inyamaswa ziri mu moko atandukanye, hari inyamaswa ziba mu mago cyangwa se mu ngo, hari n'inyamaswa ziba mu mashyamba n'izindi nyamaswa ziba mu mazi.

Ikirere cy'ubururu ,agacurama gafite amababa, gafite amaboko ,gafite n'amaguru n'umunwa umeze nk'uw'imbeba.

Habaho ubwoko bw'inyoni ziguruka bwinshi cyane, habaho uduca, ibisiga, inyoni zisanzwe, n'ubundi bwoko bwinshi cyane.